Mu buryo bworoshye kandi buhendutse wakoresha ushaka gushinganisha inzu yawe mugihe cyose yaba yagize impanuka zitandukanye, ikaba yakwishyurwa bitakugoye.

Imbuga nini cyane, irimo ibimera birebire, ndetse icyapa kirekire cyane gifite ibara rya move, ndetse kiriho umugabo ufite uruhu rwera.

Icyapa kinini cyane kiriho ibara rya move ndetse n'inyuguti zanditseho zisa umweru, kiriho abagabo babiri bafite uruhu rwera bambaye amakote abiri atandukanye.

Uburyo bugezweho umuntu ajyamo akaba yajyanamo n'umuryango we wose bakawishingira mu bintu byinshi bitandukanye, birimo ubuzima ndetse n'imitungo yindi itandukanye.

Ikigo cyizewe gifasha umuntu wese wakigannye akishinganisha mu bintu bijyanye n'ubuzima, mu gihe akoze impanuka kikamugoboka mu buryo bwose bushoboka kandi butandukanye.

Inzu nyinshi cyane zifite amabara atandukanye, hepfo yazo hari icyapa gisa umweru, cyanditseho inyuguti z'umukara, ndetse n'ibimenyetso byinshi cyane bitandukanye, bigaragaza icyo gishatse kuvuga.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa n'abantu kandi bwazanywe n'abantu, bwizewe bwifashishwa mu gihe bagiye kubitsa, cyangwa se kubikuza amafaranga igihe cyose uyakeneye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwakozwe n'abantu kandi bukoreshwa n'abantu mu gihe bagiye gukura cyangwa se kubitsa amafaranga yabo mu bigo by'imari ndetse n'ibibikira amafaranga abaturage.

Uburyo ibigo by'imari ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashisha mu kugira ngo babike amafaranga binyuze mu ikoranabuhanga, umuntu atavuye ahari kandi igihe cyose abikeneye.

Imyenda imanitse aho icururizwa ahantu habugenewe, aho harimo imipira isa umukara iriho amabara y'umweru ndetse n'indi myenda irimo amabara agiye atandukanye y'ubwoko bwinshi.

Ahantu hacururizwa ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye birimo inkweto z'abagore ndetse n'abagabo n'imyenda y'abadamu ndetse biba biteretse mu tubati ibindi bimanitse ahantu habugenewe.

Umuntu uhagaze mu nzu isa umweru ifite idirishya ndetse imanitsemo ibintu byinshi bitandukanye yateretsemo utubati dutandukanye turimo ibintu byinshi bitandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, wambaye imyenda irimo amabara atandukanye, uhagaze imbere y'akabati, karimo imyenda ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye.

Akabati kanini cyane gateretsemo ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye, birimo imyenda ifite amabara atandukanye ndetse n'amakarito menshi cyane afite amabara atandukanye.

Iduka rinini cyane aho abantu baza kugura ibintu byinshi cyane bitandukanye birimo imyenda ndetse n'inkweto, aho ziba zimanitse mu tubati ndetse n'ahandi hantu hatandukanye.

Icyumba kinini cyane kimanitsemo imyenda myinshi cyane itandukanye ifite amabara atandukanye kandi imanitse mu buryo bwinshi cyane butandukanye bitewe n'ubwoko bwayo.

Ahantu abantu bakorera ibintu bitandukanye, hari abantu benshi cyane batandukanye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, ndetse hari n'ibintu bimanitseho imyenda myinshi cyane.

Igikuta kimanitseho imyenda myinshi cyane ifite amabara menshi cyane atandukanye, iri mu bwoko bw'amakote akoreshwa mu gihe hari imbeho nyinshi cyane.

Icyumba kinini cyane gisize irange ry'umutuku, kirimo imyenda itandukanye, iy'abagore ndetse n'iy'abagabo. Gifite umuryango usa umweru ndetse uriho ibirahure, wanditseho amagambo menshi, akoreshejwe n'inyuguti z'umukara.

Aho inkweto ziterekwa harimo inkweto nyinshi zitandukanye zisa amabara menshi atandukanye harimo izisa umuhondo, umukara ,umutuku n'icyatsi n'ubururu ndetse n'andi mabara menshi atandukanye.

Abantu babiri bafite uruhu rwirabura bafite mu ntoki urufunguzo runini bahagaze imbere yi'ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahure.

Umuhanda munini cyane uri iruhande rw'inzu nyinshi cyane, zifite amabara y'umutuku ndetse n'andi menshi atandukanye, ziriho ibyapa byinshi bitandukanye ndetse mu mbuga yazo harimo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Uburyo bworoshye kandi bugezweho ushobora gutungamo imodoka yawe bwite uyifashe ku nguzanyo ukazajya ugenda wishyura amafaranga gake ugenda uyatanga buri kwezi.

Umugabo uhagaze wambaye umupira usa umukara n'ipantaro isa umukara, n'ingofero isa umutuku, uhagaze iruhande rw'ikinyabiziga gisa ibara ry'umukara.

Imbuga nini cyane ihagazemo abagabo babiri bafite uruhu rwirabura, bafite mu ntoki zabo urufunguzo runini ndetse bahagaze imbere y'ikinyabiziga gifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Abagabo bane batandukanye bafite urufunguzo runini cyane, bahagaze iruhande rw'imodoka ifunguye imiryango ndetse n'iruhande rw'inzu nini cyane irimo amamodoka menshi cyane atandukanye.

Icyapa kinini cyane gisa amabara y'umweru ndetse n'ubururu cyanditsweho n'inyuguti z'umweru ndetse n'izindi z'umukara kiri ahantu hari ibimera byinshi cyane bitandukanye.

Ahantu hanini cyane, hari ibintu byinshi cyane bitandukanye, abantu bazana ibinyabiziga byabo kugira ngo binywe amavuta abifasha gukomeza urugendo, hahagaze ikinyabiziga gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Abagabo batatu bafite urufunguzo runini cyane ndetse n'ibikapu bisa umutuku bahagaze imbere y'ikinyabiziga kinini cyane gifite amabara y'umweru umuhondo ndetse n'amapine y'umukara.

Umugabo w'uruhu rwirabura wambaye imyenda y'akazi, uhagararanye n'umugabo w'uruhu rwera wambaye ishati irimo imirongo ndetse wambaye isaha, uri kumwereka ikintu.

Imbuga nini cyane ihagazemo abantu babiri bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda itandukanye bafite urufunguzo mu ntoki inyuma yabo hari ibinyabiziga bibiri bifite amabara asa.

Ibikoresho bibiri by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa ndetse n'ikindi gikoresho cyifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, aho bifasha abantu bose kuba bakora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga igihe icyo aricyo cyose.

Abantu babiri bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bicaye imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye biri kumeza.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, mu ntoki ze ufitemo amafaranga menshi cyane kandi atandukanye, afite amabara atandukanye, ndetse ari ahantu ku meza hatandukanye.

Icyumba gisa umweru Kicayemo abantu babiri, imbere yaho hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse hari n'ikirahure kimanitseho ibyapa byinshi biriho ibirango bitandukanye ndetse n'inyuguti nyinshi.

Umugore ufite uruhu rw'irabura, wambaye imyenda ndetse n'ingofero, ufite amafaranga mu ntoki ndetse n'undi wicaye mo imbere ku ntebe isa umukara wambaye imyenda, ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Icyumba kinini cyane gisize amabara y'ubururu ndetse n'umweru giteretsemo ikigega kinini cyane kiriho ibira ry'umweru ndetse n'inyuguti zanditse mu amabara atandukanye giteretsemo akabati karimo ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Icyumba gicururizwamo amata gihagazemo umugabo wambaye ipantaro ndetse n'umupira, hari n'umukobwa wicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ndetse harimo n'intebe isa ubururu.

Icyumba giteretsemo intebe isa umweru ndetse n'imeza iriho igitambaro gishushanyijeho ibintu byinshi cyane bitandukanye, bifite amabara atandukanye ndetse iteretseho ibirahure byuzuye amata.

Ikusanyirizo ry'amata riri mu nzu iriho icyapa, imbere yaho hari ikinyabiziga kihagaze gifite ibara ry'umweru ndetse hateye ibimera byinshi cyane.

Urupapuro rusa ibara ry'umweru rwanditsweho n'inyuguti zisa n'umukara ndetse n'imibare isa n'umukara ruriho n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Uburyo bwinshi kandi butandukanye, abantu bifashisha mu gihe bagiye kwishyura, cyangwa se kwakira amafaranga, bagurishije cyangwa se bakoze ibintu, bakoresheje ikoranabuhanga.

Ikoranabuhanga ryifashishwa mu bucuruzi ndetse no mu kwishyura cyangwa se kwakira amafaranga, aturutse hirya no hino mu baguzi ndetse no mu bantu benshi batandukanye, bifashishije ikoranabuhanga.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa kiri kwerekana buryo ki umuntu yakoresha akishyura amafaranga ahantu hose yaba ari, igihe cyose abikeneye ndetse n'umuntu ashaka ko yaha wese bikaba byamugeraho bitamugoye.

Uburyo bwazanywe n'abantu ndetse bukoreshwa n'abantu mu gihe bagiye kwishyura ibintu byinshi bitandukanye, bifashishije ikoranabuhanga nta mafaranga batanze mu ntoki zabo.

Uburyo bushyashya bwazanywe, bushobora kugufasha mu kwishyura igihe icyo ari cyo cyose ndetse n'ahantu waba uri hose ukoresheje ikoranabuhanga, nta bintu byo kugendana amafaranga mu ntoki.

Uburyo bw'iterambere ndetse bw'ikoranabuhanga ibigo by'imari ndetse n'ibindi bibikira amafaranga abaturage bikoresha, kugira ngo byorohereze abantu babyo mu kohereza ndetse no kwakira amafaranga.

Uburyo abantu bashyizeho ndetse bifashisha bashaka kwishyura cyangwa se kohereza amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga mu gihe icyo ari cyo cyose ndetse n'ahantu bari hose.

Uburyo bworoshye bw'ikoranabuhanga bwakozwe n'abantu ndetse bukoreshwa n'abantu mu gihe bagiye gutumiza ndetse banishyura ibicuruzwa bibazaniwe aho bari mu rugo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga butandukanye bwakozwe n'abantu ndetse bukoreshwa n'abantu mu gihe bagiye kwishyura ibicuruzwa ndetse n'ibintu baguze bakoresheje ikoranabuhanga batavuye aho bari.

Uburyo bwizewe kandi bworoshye bukoresheje ikoranabuhanga bugufasha mu kwishyura amafaranga mu gihe uguze cyangwa se ufashe ibintu by'abandi ukishyurira ukoresheje ikoranabuhanga.

Uburyo wakoresha wishyura amafaranga ahantu henshi cyane hatandukanye ukoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga cyawe kigendanwa wohereza amafaranga.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwazanywe n'abantu ndetse bukoreshwa n'abantu mu gihe bakeneye cyangwa se bashaka kugura cyangwa se kugurisha ibicuruzwa, mu gihe babikeneye kandi ahantu bari hose, igihe icyo aricyo cyose.

Urupapuro rw'koranabuhanga rwifashishwa n'ibigo bitandukanye, ndetse n'abantu bikorera iyo bagiye kwerekana amafaranga yishyuwe ku bintu ndetse n'amazina y'ibintu byishyuwe.

Urupapuro runini cyane rufite ibara ry'umweru, ruriho inyuguti nyinshi cyane ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare myinshi cyane nayo iri mu ibara ry'umukara ruriho ndetse ibirango bitandukanye.

Igipapuro cy'ikoranabuhanga cyakozwe n'abantu kandi gikoreshwa n'abantu, bari kwerekana amafaranga yasohotse cyangwa se yinjiye mu kigo cy'imari, cyangwa se ikigo cy'umuntu wikorera ku giti cye.

Urupapuro rw'umweru rwanditsweho n'inyuguti z'umukara ndetse hariho n'ibindi birango byinshi bitandukanye, biri mu mabara y'umutuku ndetse n'izindi nyuguti zanditse mu mabara y'ubururu.

Uburyo bwakoze n'abantu bukoresha 'ikoranabuhanga bagaragaza ibyinjiye cyagwa ibyasohotse mukigo cyimari cyangwa umutungu w'umuntu bwite.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwazanywe n'abantu ndetse bukoreshwa n'abantu mu gihe bari kwerekana amafaranga yasohotse cyangwa se yinjiye mu kigo cy'imari cyangwa se ikigo cy'abikorera.

Impapuro nini cyane z'ikoranabuhanga zanditsweho n'inyuguti z'umukara, ziri ku gipapuro cy'umweru, zifashishwa kugira ngo berekane amafaranga atandukanye yinjiye cyangwa se yasohotse.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa berekana cyangwa se bagaragaza ibicuruzwa umubare wabyo, cyangwa se amafaranga byafashe kugira ngo bigurwe cyangwa bigurishwe.

Amafaranga atandukanye akoreshwa mu bihugu byinshi bitandukanye, afite agaciro gatandukanye ndetse afite buryo ki bashobora kuyavunjamo, bitewe n'aho bagiye kuyavunjira.

Amafaranga magana atanu ariho ibirango byinshi bitandukanye ndetse n'amabara menshi atandukanye, ateretse ahantu hasi hasa ibara ry'umweru.

Umugabo ufite uruhu rwirabura wambaye impeta, isaha, ishati, ndetse n'ipantaro uri kubara amafaranga yifashishwa mu kugura ndetse no kugurisha ibintu byinshi bitandukanye.

Ibiciro by'amafaranga yo mu bihugu bitandukanye ndetse n'uburyo ayo mafaranga aba afite agaciro mu gihe baba bagiye kuyavunja cyangwa se kuyahindura mu yandi mafaranga bitewe n'aho ari.

Umugabo wambaye umwenda w'umweru ufite uruhu rwirabura uri kubara amafaranga menshi cyane mu ntoki ze akoreshwa mugihe bagiye kugura cyangwa se kugurishwa ibicuruzwa bitandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura ufashe amafaranga atandukanye mu ntoki afite amabara atandukanye harimo ay'ubururu umutuku ndetse ariho ibirango n'amashusho menshi atandukanye.

Uburyo bugezweho bwerekana ukuntu amafaranga yo mu bihugu bitandukanye aba ahagaze ku ruhando mpuzamahanga mu gihe ugiye kuyajyana mu bindi bihugu bitandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, ufite amafaranga mu ntoki, yose asa, menshi cyane, ndetse munsi y'aho hari igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Uburyo bwiza kandi bwizewe bugaragaza uko amafaranga yo mu bihugu byinshi cyane bitandukanye avunjishwa ku ruhando mpuzamahanga bitewe n'aho bigiye gukorerwa.

Amafaranga ashushanyijeho isura y'umuntu ndetse yanditseho amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara ndetse n'imibare yanditse mu nyuguti z'umukara ariho ikirango ndetse afite amabara atandukanye.

Amafaranga menshi cyane atandukanye akoreshwa mu gihe bari kugura cyangwa se bagurisha ibintu byinshi bitandukanye, ari mu mabara y'icyatsi, move, umuhondo ndetse n'andi mabara, menshi cyane.

Umuntu ufite uruhu rwera ufite amafaranga mu ntoki ndetse hari n'andi menshi cyane amuteretse imbere iruhande rwayo hari igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Icyumba kinini cyane gifite amadirishya manini cyane arimo ibirahuri byinshi cyane, hari intebe zisa umukara ndetse n'imeza isa umweru iteretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi.

Inzu isize irangi ry'umweru irimo ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye, ifite imiryango y'ibirahure ndetse ishushanyijeho amagambo asa umutuku yaka ibara ry'umweru.

Inzu nini cyane yubakishijwe amatafari ifite inzugi ndetse n'amadirishya, iteyeho icyapa gisa umweru kiriho amagambo yandikishijwe inyuguti z'umutuku ndetse n'umukara imbere yayo hari abantu benshi cyane.

Icyapa gisa umuhondo cyanditseho inyuguti z'umukara ndetse n'izindi z'umuhondo, imbere yawo hari umuhanda munini cyane, urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu bahagazemo.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe zisa ubururu imeza z'isa umweru ndetse hari n'icyapa kinini cyane kiriho inyuguti z'umweru ndetse n'izindi zandikishijwe inyuguti z'umukara.

Intebe nyinshi zisa ibara ry'icyatsi ziteretse hasi ndetse hari n'imeza isamweru, byose bikozwe mu bikoresho by'imbaho ndetse n'ibitanda bibiri biri ku ruhande rwazo.

Icyumba giteretsemo akabati kanini karimo ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye, gateretseho ndetse n'ikimera gisa ibara ry'icyatsi ndetse ku gikuta hari igikoresho k'ikoranabuhanga kerekana amashusho.

Ahantu hari ibintu bisa umweru biteretse hasi ndetse n'ibindi bisa umukara biteretse hasi, hari n'intebe nyinshi cyane zisa ibara ry'umutuku ndetse n'imeza iri hagati y'izo ntebe isa umutuku.

Igikoresho cyiza cyane cyagenewe gufasha abantu bose bakeneye koga mu ntoki ndetse bakeneye no koga mu maso, mu gihe bavuye gukora ibintu byose bibanduza intoki ndetse binabashyiraho udukoko twatera indwara.

Igikoresho gikoreshwa mu nzu ndetse n'ahandi hantu hose hatandukanye, gikorerwa mu gihugu mu imbere, gikozwe mu bwoko bw'ibikoresho byitwa urubaho bakaba bagikoresha kugira ngo bagiterekeho ibintu.

Icyumba gisize irangi ry'umweru ndetse kirimo amatara abiri ari kwaka umweru giteretsemo n'utubati tubiri dutandukanye ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye.

Icyumba gisa ibara ry'umweru giteretsemo intebe, zifite ibara ryiza ndetse n'imisego isa umweru n'imeza yijimye iri hagati y'intebe eshatu.

Intebe zifite umwenda w'umutuku ndetse n'amaguru asa umuhondo, n'imeza isa umweru ndetse iri mu ibara ry'umuhondo biteretse hasi, imbere y'umuryango ucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye.

Icyumba kinini cyane gisa umweru gifite igikuta kiriho umutako ndetse hasi hateretse intebe z'umukara ndetse n'imeza ndende isa umukara.

Intebe ndetse n'imeza biteretse mu mbuga, iri iruhande y'umuhanda munini cyane urimo imirongo isa ibara ry'umweru ndetse uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Imbuga iteyemo ibimera bigufiya ndetse n'ibirebire bifite amabara atandukanye ndetse hirya y'aho hateretse intebe z'umukara ndetse n'umutuku ziri ahantu hatwikiriye.

Inzu nini cyane abantu baza kuruhukiramo ifite amabati y'umukara ifite inzugi ndetse n'amadirishya asize amarangi ari mu mabara menshi cyane atandukanye, ifite imboga nini irimo ibimera byinshi cyane.

Inzu nini cyane kandi ndende zegeranye, imwe irimo amatara y'umuhondo, indi yaka amatara y'icyatsi avanze n'ay'umuhondo ndetse n'ubururu.

Icyumba kinini cyane kandi gitwikiriye, giteretsemo intebe zisa umukara ndetse n'umutuku, n'imeza zisa umukara aho abantu baza kwicara bari kuruhuka.

Ahantu abantu baza kuruhukira, hari inzu isize irangi ry'umutuku, ifite inzugi ndetse n'amadirishya, ifite imbuga iteretsemo amavaze yamereyemo ibimera byinshi cyane bitandukanye.

Inzu nini cyane kandi ndende, ifite ibara ry'umweru ndetse n'andi mabara y'umukara ayiriho menshi cyane yanditseho amagambo imbere yayo hari ibyuma.

Inzu nini cyane ndetse ndende, irimo amatara asa umuhondo, ndetse imbere yaho hateye ibimera birebire cyane, bisa icyatsi, hari n'amazi menshi cyane, asa ubururu.

Intebe n'imitaka biteretse ahantu hari imbuga nini cyane irimo amazi asa ubururu, hitegeye ahantu hari ibimera ndetse n'amazu menshi cyane atandukanye.

Icyumba kinini cyane gisa umweru, kirimo intebe nyinshi cyane zisa ubururu, kirimo n'imeza zikoreshwa mu gufasha abantu baje gusaba ibintu byinshi bitandukanye.

Inzu nini cyane ifite imiryango isa ubururu irimo ibirahure ku gikuta hari ibyapa byinshi cyane bitandukanye, bifite amabara atandukanye mu nzu mo imbere hateretsemo intebe.

Icyumba kinini cyane, giteretsemo imeza isa umutuku, ndetse gihagazemo umugabo wambaye ipantaro ya kacyi, ndetse n'ishati y'ubururu, n'undi wambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'ishati y'umukara, urimo umweru.

Ikigo gikora akazi ko gutanga ubwishingizi ku bantu ndetse n'ibintu byabo, gikorera mu etage yegeranye n'andi matage maremare cyane. Iruhande rwaho, hari abantu bari kugenda mu muhanda.

Inzu nini cyane iriho icyapa gisa umweru ndetse cyanditseho inyuguti z'umukara n'ibirango bibiri biri mu ibara ry'umutuku biriho inyuguti z'umweru, imbere yaho hari kunyuraho abagabo batandukanye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa n'abantu mu gihe bakeneye kwaka cyangwa se gusaba inguzanyo, ingana n'amafaranga, ubwikube kabiri y'ayo bahembwa.

Uburyo ibigo by'imari ndetse n'ibibikira abantu amafaranga yabo byagufasha kubona inguzanyo itagoranye cyane idasaba ibintu byinshi cyane kandi yizewe.

Uburyo bwihuse kandi bwizewe ushobora kubonamo inguzanyo uciye mu bigo by'imari ndetse n'ibibikira amafaranga abaturage, ukayibona bitakugoye kandi byihuse.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwazanywe n'abantu ndetse bukoreshwa n'ibigo bibikira amafaranga abaturage mu gihe abantu babigana bashaka gusaba cyangwa se kwaka inguzanyo.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bahagaze ahantu imbere'umugore wicaye inyuma yikirahure wicaye ku ntebe y'umukara ndetse inyuma ye hari umugabo wambaye ikote.

Inzu nini cyane ndetse ndende, ifite imbuga ihagazemo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ndetse n'abantu benshi batandukanye, iriho icyapa, kiriho inyuguti z'umukara, ndetse n'ibimenyetso byinshi bitandukanye.

Uburyo bworoshye kandi bwihuse bwo kuba wabona inguzanyo, unyuze mu bigo by'imari ndetse n'ibibikira amafaranga abaturage, ukayibona bitakugoye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, uri gufungura aho uzajya ubitsa amafaranga yawe mu kigo cy'imari ndetse n'ibigo bibikira abaturage amafaranga.

Uburyo abantu bashyizeho ndetse bakoresha bworoshye kandi bwihuse, mu gihe ukeneye inguzanyo yihuse mu bigo by'imari ndetse n'ibindi bigo byinshi cyane bitandukanye bikoroheye.

Imbuga nini cyane ihagazemo umuntu ufite uruhu rwirabura ndetse iteretsemo ibintu byinshi cyane biri mu mifuka, ndetse n'ibitebo aho harimo ibiribwa ndetse n'amafu n'ibishyimbo.

Ahantu hari abantu benshi cyane batandukanye harimo abagore, abagabo ndetse n'abana bari gucuruza ndetse bari kugura ibintu byo kurya bitandukanye.

Icyumba kinini cyane gisize amarangi y'amabara atandukanye kirimo abantu benshi cyane batandukanye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Hari ibicuruzwa b'inkweto ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura wambaye imyenda irimo amabara atandukanye, wicaye iruhande rw'ahantu hateretse imbuto nyinshi cyane kandi ziteretse ku bintu byinshi cyane bitandukanye.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere y'inzu nyinshi zicururizwamo ibintu byinshi cyane bitandukanye harimo ibiribwa ndetse n'ibindi bintu byose bikenerwa n'abaje kubigura.

Isoko rinini cyane rihagazemo umugore uhetse umwana bose bafite umubiri wirabura, bambaye imyenda itandukanye, inyuma yabo hari ibicuruzwa ndetse n'ibiribwa bitandukanye.

Inzu nini cyane kandi ndende cyane ifite ibirahuri by'ubururu, iruhande rwayo hahagaze ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, hari n'umuhanda munini cyane uri kugendamo ibinyabiziga.

Inzu nini cyane iberamo ibikorwa byo kugura ndetse no kugurisha ibintu byinshi cyane bitandukanye, byiganjemo ibiribwa byinshi cyane bitandukanye bikenerwa n'abantu benshi.

Inzu nini cyane zitandukanye zifite amabara atandukanye imbere yazo hari umuhanda munini cyane unyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hahagaze abantu benshi cyane batandukanye.

Icyumba gisa umweru kirimo abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'undi umwe wambaye umupira w'umweru n'ipantaro, ku meza yabo hari igikoresho cyifashishwa mu ikoranabuhanga.

Inzu nini cyane, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, iriho n'ibyapa byinshi cyane bitandukanye, irimo abantu bambaye imyenda y'umuhondo, ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye.

Imeza iteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye, birimo impapuro ziteretseho zihagaze zisa umuhondo mudasobwa ebyiri ndetse n'ururabo rurerure rusa umuhondo.

Urupapuro rw'umuhondo rwanditseho inyuguti ziri mumabara y'umukara ndetse ruriho ibirango bibiri bitandukanye n'umwanya wundi uriho usa ibara ryumweru.

Umugore uhagaze wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, inyuma ye hicaye abagore ndetse n'abagabo, bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amapantaro y'ubururu.

Umugabo ufite uruhu rwirabura wicaye ku igare wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'undi w'umukara n'ipanaro y'umukara inyuma ye hari umutaka usa umuhondo ndetse n'abantu batandukanye.

Inzu nini cyane, ikoreramo sosiyete y'itumanaho yo mu Rwanda, ndetse no mu bihugu byo hanze byinshi bitandukanye, aho imbere yaho, hahagaze umuntu uyirinda, ndetse hakaba hahagaze n'abagabo benshi cyane, batandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo uhagararanye n'umugore wambaye umupira ndetse ufite ibisuko ku mutwe, ufite igikoresho cyikoranabuhanga cyifashishwa mu gutumanaho.

Abantu benshi cyane, bafite uruhu rwera, bambaye imyenda itandukanye, harimo umwe wicaye ndetse n'abandi bahagaze, bari kureba ku meza, iteretseho ibintu bitandukanye...

Uburyo abantu mu bice byinshi bitandukanye mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu byifashishwa mu kugira ngo bagezweho ibicuruzwa baba batumije bakoresheje ikoranabuhanga.

Uburyo abantu bashyizeho bubafasha mu gutumiza ndetse no kwaka ibyo bakeneye, harimo ibintu bitandukanye haba ibyo kurya ndetse n'ibindi byinshi, bikabageraho batiriwe bava aho bari bishyuye bakoresheje ikoranabuhanga.

Uburyo abantu bashyizeho ndetse bakoresha bifashishije imbuga nkoranyambaga ndetse n'ikoranabuhanga batumiza ndetse baka ibintu byose bijyanye n'ibyo kurya aho uri hose.

Inzu nini cyane kandi ifite amabara atandukanye, ifite n'amadirishya arimo ibirahure, mu mbuga yayo hahagaze ibinyabiziga, bifite amabara asa y'umuhondo ndetse n'umweru.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho bwazanywe n'abantu ndetse bukoreshwa n'abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye batumiza ndetse banagura ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Uburyo bwazanywe n'abantu bwifashishwa mu gihe bakeneye gutumiza cyangwa se gusaba ibintu byinshi bitandukanye bakoresheje imbuga nkoranyambaga n'ikoranabuhanga, bakabibona batavuye aho bari.

Uburyo bwizewe kandi bwihuse bukoreshwa n'abantu kugira ngo bageze ku bandi ibintu baba batumije bakoresheje imbuga nkoranyambaga bikabageraho iwabo batagize aho bajya.

Uburyo bukunze gukoreshwa kugira ngo bagezeho umuntu ibintu yatumije akoresheje ikoranabuhanga, atavuye ahari bikamugeraho mu mwanya mutoya cyane.

Inzu ebyiri zitandukanye, ziteye amarange ari mu mabara atandukanye ndetse zifite n'amabati atandukanye, aho imwe ifite imbuga nini cyane ndetse n'igipangu cy'umukara kiri imbere yayo.

Umugabo uhagaze ufite uruhu rwirabura, wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, uhagaze hagati munzira, inyura hagati yimirima ibiri itandukanye, iteyemo ibimera byinshi cyane.

Inzu nini cyane ifite amarangi y'amabara menshi cyane ndetse n'inzugi n'amadirishya, ifite n'amabati asa umukara, ifite imbuga irimo amabara y'umutuku, iruhande rwaho hateye ibimera.

Inzu isizemo irangi ry'umweru, ihagazemo umugabo ufite uruhu rwera wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, ndetse iteretsemo intebe n'imeza bifite amabara atandukanye.

Inzu nini cyane kandi ndende isize amabara atandukanye ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure, ifite igipangu gisize amabara atandukanye.

Inzu nini cyane, ifite amabara y'umweru, inzugi z'umutuku ndetse n'amadirishya y'ubururu, ifite imbuga zirimo amabara atandukanye, higanjemo umukara, umutuku ndetse n'andi menshi cyane.

Inzu nini cyane kandi ndende cyane yubakishijwe amatafari, ifite amadirishya ndetse n'inzugi bifite ibirahure ndetse bisize amarangi y'umweru, imbere yayo hari ibimera byinshi cyane bitandukanye.

Igice kimwe kiba mu nzu zitandukanye cyagenewe kogerwamo n'abantu baba mu nzu, kikaba kirimo aho biherera ndetse n'aho bogera mu gihe bakeneye koga.

Inzu nini cyane ifite ibara ry'umweru irimo itara ndetse ifite amadirishya, ihagazemo umugabo ufite uruhu rwera ndetse iteretsemo intebe zifite ibara ry'umweru n'imeza.

Inzi ebyiri ziteye irange ry'umweru ndetse zifite n'inzugi ziriho ibirahure; mu mbuga zaho hateyemo ibimera byinshi cyane, ndetse hahagaze umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro.

Inzu nini cyane isize amarange atandukanye, ifite igipangu gisa umukara ndetse n'igikuta cyubakishijwe amatafari, imbere yacyo hari umuhanda urimo ikinyabiziga.

Inzu nini cyane kandi ndende isize amabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, ifite inzugi ndetse n'amadirishya, ifite imbuga nini cyane iteretsemo amavaze ateyemo ibimera.

Inzu nini cyane isize amarangi y'ubururu ndetse n'andi atandukanye, ifite igipangu cyubatswe mu matafari ndetse gifite inzugi zisize amabara y'umukara n'amadirishya asize amabara y'umukara.

Inzu ifite amabara atandukanye, amadirishya ndetse n'inzugi, mu mbuga yayo hakaba hahagaze umugabo ufite uruhu rwirabura wambaye imyenda ifite amabara atandukanye.

Inzu ndende cyane ikiri mu bikorwa byo kuyubaka, iri iruhande rw'inzu isize amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, ifite amabati y'umutuku, n'inzugi n'amadirishya.

Umuryango usa umweru, wanditseho ibintu byinshi bitandukanye, biri mu nyuguti z'umukara ndetse n'umweru, hariho ibirango byinshi bitandukanye, ndetse n'amafoto menshi atandukanye.

Inzu nini cyane, ifite amabara atandukanye, arimo umuhondo, ndetse n'ubururu, ifite amadirishya ndetse n'inzugi, birimo ibirahure, ifite amabati asa umukara, ndetse n'imbuga, ku ruhande hateyemo ibyatsi.

Abantu babiri bambaye imyenda y'umweru bari ahantu hari utubati twifashishwa mu kubika ibintu byinshi cyane bitandukanye birimo ibiribwa ibinyobwa ndetse n'ibindi bintu byose byifashishwa.

Ahantu hacururizwa ibintu byinshi cyane bitandukanye, hari akabati karimo ibiribwa ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, biri mu moko menshi cyane, amanini ndetse n'amato.

Inzu nini cyane isa umweru, irimo imiryango myinshi cyane itandukanye, ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'abantu benshi batandukanye; abagore ndetse n'abagabo bose baje kureba ibyo bagura.

Icyumba kinini gisa ibara ry'umweru, gihagazemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda iri mumabara atandukanye, ndetse hateretse ibintu bishyirwamo imyanda bisa umweru.

Abantu benshi cyane batandukanye bambaye imyenda itandukanye bahagaze hagati y'intebe ziteretseho ibicuruzwa byinshi cyane byokurya bitandukanye.

Icyumba kinini cyane gisa ibara ry'umweru, kimanitsemo ibintu byinshi cyane bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'amafoto. Gihagazemo umukobwa wambaye imyenda y'umukara.

Icyumba kinini cyane giteretsemo imeza, intebe ndetse n'imisego n'ibindi bintu byinshi bitandukanye cyane aho abantu baza bakabisanga kugira ngo babirebe babigure.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru ushushanyijeho, ufite igipapuro bahahiramo, uri gukora ku meza ziteretseho ibiribwa byinshi bitandukanye.

Abantu benshi cyane bafite uruhu rwirabura bicaye ku ntebe bambaye imyenda ifite amabara atandukanye ndetse bafite ibipapuro bigiye bifite amabara atandukanye.

Ahantu hasa ubururu hashushanyije ibirango bisa byinshi cyane ndetse n'amagambo ari mu nyuguti zisa ibara ry'umweru, imbere yaho hari abantu babiri bafite uruhu rwirabura bafite ikintu cy'ubururu mu ntoki.

Abagore bafite uruhu rwirabura bicaye ku ntebe, ndetse harimo ukikiye umwana mutoya begamiye igikuta cyubakishijwe amatafari, ndetse kirimo n'inzugi zisa umweru.

Icyumba cyicayemo abantu batandukanye, bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda isa amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iteretseho impapuro, amazi yo kunywa ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Imbuga iteyemo ibimera byinshi bitandukanye ihagazemo umugabo ufite uruhu rwirabura, ufite urupapuro runini cyane ruriho inyuguti zanditse mu ibara ry'umukara, ubururu ndetse n'ibindi bimenyetso byinshi n'ibirango bitandukanye.

Abantu bambaye imyenda, harimo ufite umubiri wirabura, ufite mu ntoki igipapuro cy'ubururu ndetse n'icy'umuhondo, kiriho inyuguti zanditse mu ibara ry'umukara.

Impapuro eshatu zifite ibara ry'umuhondo, zanditseho inyuguti ndetse n'imibare, biri m'ibara ry'umukara. Ziriho ndetse n'ibirango byinshi cyane bitandukanye.

Abagore babiri bafite uruhu rwirabura, umwe wicaye ku ntebe ufite urupapuro rw'umuhondo mu ntoki, n'undi wicaye mu ntebe ufite ikintu ari kwandikisha mu ikaye.

Uburyo bugezweho bufasha abantu bizigamiye bakiri batoya mu gihe bageze mu bihe byabo by'imyaka y'izabukuru bukabafasha mu bintu by'amafaranga ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahantu hari ibara ry'umuhondo hateretse ibipapuro byinshi cyane byose bisa byandikishijweho inyuguti ziriw'ibara ry'umukara ndetse biriho n'ibirango bibiri bitandukanye.

Igikuta cyubakishijwe amatafari ndetse gifasheho n'ibyuma biriho icyapa kinini cyane, gifite ibara ry'umweru kiriho inyuguti nyinshi cyane zanditswe mu ibara ry'icyatsi, ndetse kiriho n'ibirango byinshi cyane bitandukanye.

Umugore ufite uruhu rwirabura wambaye umupira w'ubururu ndetse n'umwambaro w'akazi uri kubara ibicuruzwa yifashishije ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Umugore uhagaze imbere y'imeza iteretseho amakarita atatu ndetse n'imashini yifashishwa mu kwishyura amafaranga y'ibintu byose biba byaguzwe mu isoko.

Icyumba kinini cyane kirimo utubati twinshi cyane dutandukanye, duteretsemo ibintu byinshi cyane bitandukanye harimo ibyo kurya n'ibindi byinshi cyane bitandukanye bikenerwa n'abantu.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara, uri imbere y'imeza iteretseho ibintu bitandukanye ndetse hari n'umugabo uhagaze, wambaye ingofero y'umukara ndetse n'umupira, uri gukora ibintu byinshi bitandukanye.

Icyumba kinini cyane, kirimo abagabo benshi cyane, bafite amagare bagenda bashyiramo ibintu byose bagiye bahaha, ndetse hari n'utubati duteretsemo ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Akabati kanini cyane kamanitsemo ibiribwa bifite amabara atandukanye bipfunyitse ndetse harimo n'ibindi bintu byinshi cyane byifashishwa n'abantu baje kubigura.

Umucuruzi wambaye umupira usa umutuku ndetse n'itaburiya urigutanga ibicuruzwa bitandukanye ku muguzi waje kumugurira aho acururiza ibintu byinshi bitandukanye.